Abantu batatu bafite mudasobwa amazi n'irangururamajwi bari kumeza y'rubaho inyuma ni igikuta cy'umweru.

Umwarimukazi ahagaze imbere y'ishuri imbere y'abanyeshuri hari ameza atwikirijwe n'igitambaro cy'ibara ritukura ishuri rifite idirishya rimwe n'imiryango ibiri.

Abantu batandatu bari mu ifoto bicaye mu ntebe y'umukara igikuta cy'umweru bafite amakaramu ndetse n'impapuro zo kwandikaho.

Icyumba cy'ubwiherero cy'abantu babana n'ubumuga, gifite amakaro, umuryango n'inkuta zisize umukara n'umweru.

Mu cyuyumba harimo abantu cumi nu'umwe intebe zigizwe n'imbaho, umugabo umwe uhagaze hagati y'abavoka babiri bambaye udupfukamunwa.

Umuhanda wa kaburimbo abapolisi bane bari kugenda mu murongo umunyonzi wambaye umupira w'icyatsi ingofero y'umutuku uri ku igare rya matabaro ari kugenda hirya y'umuhanda hariho imitaka ya MTN.

Perezida paul Kagame, mu mupira w'umweru w'inkotanyi, ndetse n'ibendera ry'inkotanyi, inyuma hari abaturage bishimiye intsinzi.

Imodoka y'umweru yanditseho mitsubishi inyuma mu muhanda wa kaburimbo uriho ibiti, ku ruhande rw'umuhanda haparitseho izindi modoka.

Umumotari utwaye umumama witeye akitero k'umweru, ku muhanda ku ruhande umugabo ufite igare ugiye kwambuka kaburimbo iri munsi y'ikiraro n'ibiti byinshi iruhande rw'kiraro.

Mu muhanda wa kaburimbo uca munsi y'ikiraro, hari gucamo umumotari umwe n'umuyonzi umwe ndetse n'amasaha yo ku muhanda aramuritse mu masaha y'umugoroba.